Ibihingwa bitandukanye iyo bimaze kwera, babishyira hamwe maze umusaruro ubonetse bakawukoresha ibikorwa runaka, haba kubyifashisha mu rugo bategura amafunguro cyangwa se kubijyana ku isoko.

Abahinzi batandukanye, barahinga bashyira ifumbire ahabugenewe kugira ngo batere imyaka yabo. Ni byiza guhinga ukoresheje ifumbire kuko bituma ubona umusaruro mwinshi.

Ifumbire ni bimwe mu bikomoka ku matungo byifashishwa cyane mu kongera umusaruro w'ubuhinzi, aho bituma abahinzi bagira umusaruro mwinshi bakibeshaho bakagira ubuzima bwiza ndetse bagasagurira n'amasoko.

Ahantu hatandukanye hagurishirizwa imiti inyuranye, yifashishwa mu kongera umusaruro, haba uw'ibihingwa ndetse haba n'uw'ubworozi. Ni ngombwa ko abantu bahagana, kugira ngo babashe kongera umusaruro wabo.

Ahantu bacururiza imiti itandukanye, yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, ni ingenzi cyane gufata imiti itandukanye, yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi kugira ngo abantu b'aborozi bakomeze kongera umusaruro.

Aho abantu batandukanye bajya kugurira imiti itandukanye ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, byifashishwa mu buhinzi. Ni ingenzi cyane kubera ko bifasha abantu kubaho neza no kugira uburenganzira ku bintu bitandukanye, harimo no kugira umusaruro mwinshi.

Umugore n'umugabo barafumbira, ni ngombwa ko abantu mu buhinzi bwabo bakoresha ifumbire y'imborera kugira ngo babashe gufumbira imyaka yabo bityo babone umusaruro mwiza, iyo ufumbira ubona umusaruro mwinshi.

Imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara, ibimera, niyo mpamvu abahinzi n'aborozi bakwiye kugana aho bacururiza imiti, kugira ngo bavure indwara zibasira ibikorwa byabo.

Ingurube ndetse n'andi matungo atandukanye nk'inka, ihene niyo akomokaho ibitandukanye nk'ifumbire n'ibindi. Ifumbire ni nziza cyane kuko ifasha mu gutuma imyaka yera neza.

Ahantu hatandukanye hacururizwa imiti itandukanye, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byo mu buhinzi, ni ingenzi cyane ko aborozi ndetse n'abahinzi bigendanye n'ibibazo bahura nabyo bagana ababihuguriwe bakabafasha bityo bakongera umusaruro.

Ahantu hatandukanye hacururizwa imiti y'inyongeramusaruro ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu buhinzi n'ubworozi. Ni ingenzi cyane kuko bituma abantu biteza imbere, bakabaho neza, hirindwa icyahungabanya umusaruro wabo.

Ibihingwa bitandukanye byera cyane cyane iyo hifashishijwe ifumbire zitandukanye. Haba ifumbire mvaruganda cyangwa ifumbire y'imborera, ifumbire mvaruganda yifashishwa cyane mu kubagara ndetse no gutera bityo bikabona umusaruro mwinshi.

Ifumbire ni kimwe mu bikomoka ku matungo, yifashishwa cyane cyane mu guhinga imyaka itandukanye harimo inyanya, ibishyimbo n'imiteja intoryi n'ibindi, bityo abantu bakagira umusaruro mwiza.

Ifumbire ni ubwoko bw'ibikomoka ku matungo nk'ingurube, ihene, inka, ayo ni amatungo yose ashobora gutanga ifumbire, ikifashishwa cyane mu gutera imyaka bityo bakazabona umusaruro mwiza.

Ikigori ni igihingwa cyiza cyane gitera imbaraga kandi cyera vuba. Gisaba ko bagifumbira bagashyiraho ifumbire mvaruganda ndetse n'imborera, bakacyuhira maze kigatanga umusaruro mwiza wifuzwa.

Umurima w'amashu usanga uteye neza, amashu kugira ngo yerere neza urayafumbira kandi ukayuhira, iyo umusaruro ubonetse uwifashisha mu bikorwa bitandukanye byaba gutegura amafunguro mu rugo cyangwa se kuyagurisha.

Umurima uhinze neza urimo imyaka itandukanye, ni ngombwa ko abantu bahinga kugira ngo babashe kwiteza imbere. Iyo uhinze ukabona umusaruro mwiza, bigufasha kubaho neza bityo ukiteza imbere.

Ibiti bitoya by'ingemwe biri mu dushashi tw'umukara n'ibitaka bikeya. Ni ngombwa kuko iyo uteye igiti bituma ubutaka bwawe bumera neza kubera ko ntibwatwarwa n'isuri maze ukabaho neza.

Ikawa ni igihingwa ngandurabukungu kifashishwa cyane cyane umusaruro wayo ugurishwa ugakurwamo amafaranga azakenerwa kugira ngo abantu babeho neza, ni ingenzi cyane guhinga ikawa kuko bituma abantu babona amafaranga.

Umurima w'insina kandi ibyatsi byinshi, ni ngombwa ko insina bazitera maze zamara gukura zigatanga umusaruro wabo uw'ibitoki ndetse bashobora no gutara bikavamo imineke.

Ubuhinzi butandukanye burimo imboga zisanzwe, ni byiza cyane kuko bituma abantu biteza imbere, baba babayeho neza kuko babona amafunguro bityo ntihakaboneke ikibazo cy'imirire mibi kubera ibibazo bitandukanye by'ubuzima.

Ibihingwa bitandukanye bigaragara, ndetse n'ibitagaragara, ni ingenzi cyane guhinga ubunyobwa, kuko bufasha abantu kubaho neza, kubaho mu buryo bwiza babona amafunguro meza, bityo bakagira ubuzima bwiza.

Ibiti bitandukanye birererwa ahantu hamwe, maze bikazakoreshwa mu guhinga amashyamba. Ni ngombwa ko abantu batera amashyamba kuko ibiti bikurura umwuka mwiza duhumeka, ndetse bigakurura n'imvura abantu bakabaho neza.

Ifumbire y'imborera iva ku matungo atandukanye, harimo inka, ihene, ingurube, intama n'ibindi. Ifumbire y'imborera yifashishwa mu gutera imyaka bityo yazakura igatanga umusaruro mwiza.

Igihingwa cy'inyanya ni igihingwa cyiza cyane, kuko usanga kigira umusaruro mwiza, bisaba ko ugifumbira ndetse ukanacyuhira kugira ngo kibashe kuguha umusaruro wifuza, bityo ukabaho neza.

Ahantu hatandukanye hakorerwa ibikorwa bitandukanye by'ubworozi. Korora amafi cyangwa ibindi binyabuzima byororerwa mu mazi, ni ingirakamaro kuko bifasha mu kubaho neza ndetse no kwihaza mu biribwa.

Ibikoresho bitandukanye ndetse n'imiti itandukanye, byifashishwa mu buhinzi. Ni ingenzi cyane ko iyo uhuye n'ikibazo cy'uburwayi bw'imyaka cyangwa ibimera bitandukanye, ugana ababishinzwe bakaguha imiti bityo umusaruro.

Urukwavu ruri ku bwatsi, ni ingirakamaro gutunga inkwavu kuko zifasha mu bikorwa bitandukanye umuntu akenera harimo gutegura amafunguro yiganjemo ibyo kurya nk'inyama n'ibindi.

Ubworozi bw'inkoko ni ingenzi cyane kuko usanga inkoko zitanga amagi, zigatanga ifumbire, zigatanga ndetse n'inyama, ni ngombwa cyane kwita ku musaruro ndetse no ku nkoko kugira ngo tubone umusaruro mwiza.

Umugore afite isuka arahinga. Ni ngombwa ko abantu bahinga kugira ngo bihaze mu biribwa. Iyo uhinga ubona umusaruro ukenewe, ushobora kwifashishwa mu gutegura amafunguro yo mu rugo ndetse no gusagurira amasoko, ukabona amafaranga.

Umurima uhinze neza utegurwa guterwamo imyaka itandukanye, ushobora guteramo ibishyimbo, ibigori, soya ndetse n'ibindi bimera bitandukanye inyanya, pavuro n'ibindi ukagira umusaruro bityo ukabaho neza.

Umudamu arahinga. Ni ngombwa ko abantu iyo bamaze guhinga, bagera igihe kandi bakanatera imyaka. Haba gutera ibigori, ibishyimbo, amasaka ndetse n'ibindi. Ni ngombwa ko umurima iyo umaze guhingwa, uterwa kugira ngo ugire umusaruro.

Abantu batandukanye barakora akarima k'igikoni, akarima k'igikoni ni aho usanga hahingwa imbuto zitandukanye ndetse n'imboga, harimo imbwija, dodo, karoti n'ibindi bifasha mu gutunganya amafunguro ya buri munsi.

Abantu batandukanye barahinga umurima, ni ngombwa ko iyo imyaka yeze ikavamo ari ngombwa ko bahindura bagatera indi, urabanza ugahinga kugira ngo imyaka izagire umusaruro mwiza.

Abagore babiri barahinga ndetse baratera imyaka Ni ngombwa ko iyo umurima umaze gutungana umeze neza, abantu baza bakahahinga bityo bakagira iterambere. Iyo umusaruro ubonetse bawukoresha mu bikorwa bitandukanye.

Igihingwa cy'ibigori ni igihingwa cyiza cyane, kiboneka cyane cyane ahantu hari ibishanga cyangwa se n'ubutaka bwiza, ni byiza ku kubwuhira ndetse ukanabitera imiti, ugakoresha kandi n'ifumbire kugira ngo ubone umusaruro.

Umusaruro utandukanye, iyo ubonetse barawufata bakawubika neza bakawushyira mu mifuka ahantu habugenewe, haba ibishyimbo, umuceri, soya, n'ibindi bityo bigatanga icyizere cy'uko bibitswe neza bikazakoreshwa mu bikorwa bitandukanye.

Umurima uteguwe neza, uhinzwe neza witegurwa guterwamo imyaka itandukanye. Ni byiza gutera imyaka itandukanye yiganjemo imbuto nk'itoryi ndetse n'inyanya kuko bifasha mu kubona umusaruro mwiza kandi wifuzwa.

Ahantu hatandukanye habikwa ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buhinzi ndetse hakanahunikwa umusaruro, ni ngombwa ko iyo umusaruro ubonetse ubikwa neza kugira ngo utangirika bityo abantu bakabura icyo bakoresha.

Ibitoki bitandukanye bigaragara ahantu henshi hatandukanye, byera ku nsina, bishobora kuribwa cyangwa se bigatarwamo imineke, ibitoki biribwa ni byiza cyane kuko byongera imbaraga, bigafasha abantu kugira ubuzima bwiza.

Ibirayi ni ubwoko bw'ibihingwa bitera imbaraga byifashishwa mu gutegura amafunguro atandukanye, iyo wahinze ibirayi maze ukeza ni ngombwa ko ugera igihe cyo gucuruza kugira ngo ukuremo amafaranga.

Imbuto zitandukanye ndetse n'imboga, hari inyanya, hari karoti, hari sereri, hari pavuro, hari intoryi, bifasha abantu kubaho neza, ibi ku masoko usanga bihari, akenshi biba byaturutse mu buhinzi ndetse n'ubworozi.

Amasaka ni kimwe mu gihingwa kigaragara neza ndetse gihingwa ahantu h'umusozi hari igitaka cyumye. Ni ingenzi cyane guhinga amasaka kuko amasaka ni ingirakamaro, umusaruro wayo wifashishwa mu gutegura amafunguro.

Igihingwa cy'imyumbati ni igihingwa cyiza cyane, usanga gitanga imyumbati yifashishwa mu mafunguro n'ibindi bikorwa bitandukanye. Imyumbati itera imbaraga kandi abayiriye bakagira ubuzima bwiza bityo bagatera imbere.

Umugabo ari ku igare, yambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara aranyonga, arava aho batunganyiriza umusaruro, ni ngombwa ko iyo ufite umusaruro uwujyana aho wawuhunika bityo ukiteza imbere.

Umusaruro w'amasaka ni ingenzi cyane kuko usanga ari byiza ndetse bifasha abantu kubona ibyo bakenera byaba ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi, bishobora kwifashishwa havamo ifu y'igikoma bityo abantu bakamera neza.

Ibibabi bitandukanye by'ibimera, ni ingenzi cyane mu buzima kubera ko nibyo bitanga umwuka mwiza duhumeka, kandi bigakurura imvura abantu bagahinga, ni ngombwa cyane kwita ku bimera kuko ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi.

Ibihingwa bitandukanye byiganjemo ibimera, ni ingenzi cyane kuko bifasha gukurura umwuka mwiza abantu bahumeka maze bakabaho neza, iyo abantu babayeho neza bakora neza bagatera imbere, babifashijwemo n'ibyo bimera ndetse n'ibihingwa bitandukanye.

Ubuhinzi butandukanye bw'ibimera bitandukanye. Ni byiza cyane guhinga kuko bituma abantu babona iby'ibanze bakenera nk'amafunguro yo gutungwa mu rugo ndetse kandi bagasagurira n'isoko, bagakuramo amafaranga.

Igihingwa cy'urutoki ni igihingwa cyiza cyane, aho usanga gishobora kwera ibitoki bishobora gukoreshwa, abantu bategura amafunguro bakabirya cyangwa se bikavamo ibindi bitoki batara bikavamo imineke bakaba bakwengamo umutobe.

Ibiti bitandukanye biduha umwuka wo guhumeka ndetse bikurura imvura. Iyo mvura niyo yifashishwa n'abahinzi maze bagahinga imyaka maze bakeza. Ni ngombwa ko tubungabunga ibiti kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Ibihingwa bitandukanye bigaragara mu mirima ni ingenzi, ndetse n'ibiti na byo ni ingenzi kuko bifasha mu gukurura umwuka mwiza abantu bahumeka. Ni ngombwa ko abantu batera ibiti kugira ngo dukomeze kugubwa neza.

Imiyenzi itandukanye ndetse n'ibindi bimera biboneka ahantu hagiye hatandukanye, ni ingenzi cyane kuko bituma abantu babaho neza kubera umwuka duhumeka uva mu bimera ndetse kandi bikanatanga n'imvura.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane. Biba byiza kandi iyo uhinze ibiribwa ariko ukabivanga n'ibiti bitandukanye. Ibyo biti ni byo bifasha mu gukurura umuyaga mwiza duhumeka ndetse bikanakurura imvura.

Ibimera bitandukanye byiganjemo urutoki n'ibindi byatsi bitandukanye, usanga ari ingirakamaro ndetse bifasha n'ibindi binyabuzima kubaho, harimo n'abantu, bitanga umwuka mwiza duhumeka bityo tukagira ubuzima bwiza.

Ikimera cy'amapera, ni cyiza cyane kuko gifasha mu gutanga imbuto zikenewe, izo mbuto ni zo kandi usanga zitunga ibihingwa ndetse n'ibindi binyabuzima bitandukanye harimo n'abantu, ni ngombwa ko bigirirwa agaciro, maze bigatanga umusaruro.

Igiti cy'amapapayi, ni igiti cyiza gitanga imbuto nziza zikenerwa mu gutegura amafunguro atandukanye ya buri munsi. Hari kandi dodo, zifasha nanone mu gutegura indyo yuzuye. Iyo wariye dodo, ukarya n'amapapayi bigufasha kugira ubuzima bwiza.

Igihingwa cy'amaronji ni igihingwa cyiza cyane, usanga iyo amaronji yeze aba asa umuhondo, bityo abantu bakaba bayakoresha, bayarya cyangwa se bakayajyana ku isoko, bakabona amafaranga abafasha n'ibindi bitandukanye.

Imineke ni ubwoko bw'imbuto butuma abantu bagira ubudahangarwa ku ndwara ndetse ushobora kuyirya cyangwa se ukayengamo umutobe. Ni ingenzi cyane kuko bituma abantu bagira ubuzima bwiza.

Urusenda n'igihingwa gikunze kwera ahantu hari igitaka cyinshi, urusenda n'ingirakamaro kuko rufasha mu gutegura amafunguro atandukanye, haba aya ku manywa ndetse n'aya n'ijoro.

Umugore ari aho bororera ibimera. Yambaye umwenda w'umuhondo kandi arahagaze. Ni ingenzi cyane gusura aho barerera ibimera kugira ngo ubashe kugira icyizere cy'uko bizabaho neza.

Ahantu hatandukanye hagaragara abanyeshuri ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye by'amashuri, hagaragara kandi ibiti bitandukanye bikoreshwa mu kuzana umwuka mwiza kuri abo banyeshuri. Indabo ndetse n'ibyatsi bitandukanye.

Ibitunguru, korojete, ibinyomoro, pome, n'izindi mbuto zitandukanye; ni ingenzi cyane ko abantu bagira imbuto ndetse n'imboga kubera ko bifasha mu kurinda indwara no gutegura indyo yuzuye.

Imbuto zitandukanye zirimo ibinyomoro, ibitunguru, amatunda n'ibindi, ni ingenzi cyane kubera ko zifasha mu gutegura amafunguro aboneye, ariho ibitera imbaraga, ibirinda indwara ndetse n'ibyubaka umubiri.

Karoti ni imboga nziza cyane, zifasha mu gutegura amafunguro atandukanye ya buri munsi. Waba uri guteka imboga cyangwa ibindi biribwa, ushyiramo karoti maze ukagira indyo yuzuye, bityo ababirya bakagira imbaraga n'ubuzima bwiza.

Avoka ni igihingwa cyiza cyane kiri mu ubwoko bw'imbuto, ni byiza cyane guhinga voka kuko bituma ugira umusaruro wo gukoresha mu gutegura amafunguro atandukanye yo mu rugo, iyo uriye voka ugira imbaraga, kandi ukirinda indwara.

Abantu batandukanye bari mu murima barakora ibikorwa byo guhinga. Iyo uhinga ni byiza kuko bigufasha kwihaza mu biribwa, bikagufasha gusagurira amasoko bityo ugategura amafunguro yawe neza, maze ukagira ubuzima bwiza.

Abantu batandukanye barita ku bishyimbo. Ni ngombwa ko uhinga ibishyimbo kugira ngo ubashe kumererwa neza. Iyo wahinze ugira umusaruro mwiza, ukawifashisha utegura amafunguro atandukanye n'ibindi.

IbibOga bitandukanye birimo beterave, birimon imiteja, birimo n'ibitunguru na karoti. Ni ingenzi cyane kugira imboga ku mafunguro atandukanye ndetse no kugira ibihingwa by'imboga, kubera ko bifasha abantu kubaho neza.

Ibitunguru ni igihingwa cyiza kuko gifasha abantu gutegura ibiribwa bitandukanye mu rugo, biryoshya ibiryo maze abariye amafunguro bakumva biraryoshye kandi baranabicuruza, bagakuramo amafaranga.

Ubuhinzi bwa karoti n'izindi mboga zitandukanye. Ni ingenzi cyane guhinga imboga kubera ko bifasha mu gutegura amafunguro meza bityo abantu bakahangana n'ibibazo by'imirire mibi maze bagasagurira n'amasoko.

Ahantu hatandukanye hagaragara ubuhinzi bw'inyanya. Ni ingenzi cyane guhinga inyanya kuko bifasha kubona umusaruro ukenewe kandi mu gihe gitoya. Iyo uhinga inyanya, ukoresha ifumbire ndetse ukanuhira kugira ngo ubashe kubona umusaruro mwinshi.

Indabo zitandukanye, ziboneka cyane cyane mu ngo. Ni ngombwa ko batera indabo kugira ngo zikurure akayaga keza ndetse zinatangage isuku ku bazireba. Iyo uhinze indabo, bituma umererwa neza wowe n'abagusura bose.

Abantu batandukanye bikoreye umusaruro wabo mu bikoresho byabugenewe, ni ngombwa ko abantu iyo bafite imirima bahinze, bagira umwanya wo gusarura bityo uwo umusaruro bakawukoresha ibikorwa bitandukanye, harimo no gutegura amafunguro.

Ibimera bitandukanye by'imbuto nk'ibinyomoro n'ibindi, byera mu butaka bwiza bityo bigatanga ibisobanuro byiza by'ubuzima bwiza, aho abantu bashobora kubikoresha barya ndetse banabigurisha.

Imyembe na avoka ni imwe mu mbuto zigaragara ko ari nziza, zifasha abantu gutegura amafunguro neza. Zirinda indwara kandi zikongera ubudahangarwa ku mubiri, bityo abantu bakagira ubuzima bwiza.

Imbuto zitandukanye ziganjemo inyanya ndetse na karoti, ni ingenzi cyane kuko bifasha mu gutegura amafunguro atandukanye yifashishwa mu ngo, hategurwa indyo yuzuye cyangwa se byamara kuba byinshi bakanasagurira n'amasoko.

Amashu ni igihingwa cyiza cyane, cyera ahantu hahehereye nko mu bishanga n'ahandi, bisaba ko uyafumbira ndetse ukanayuhira kugira ngo atange umusaruro wifashishwa cyane cyane mu gutegura amafunguro.

Imbuto zitandukanye za Korojete zikoreshwa cyane cyane mu gutegura amafunguro arimo nka salade n'ibindi. Ni ingenzi cyane kubera ko bituma abantu babaho neza, bakagira ubuzima bwiza, bakirinda indwara ndetse n'ibindi

Abantu batandukanye barasarura intoryi, ni ngombwa ko abantu basarura intoryi iyo zimaze kwera, maze bagakoresha uwo musaruro bategura amafunguro atandukanye, haba ayo mu rugo haba kandi no gusagurira amasoko.

Abantu batandukanye barakora igikorwa cyo kuhira, ni ngombwa ko iyo wahinze ibihingwa bitandukanye birimo amashu, imboga n'ibindi ubyuhira kugira ngo ugire umusaruro mwiza.

Umugore wambaye umupira w'umuhondo, aruhira imyaka ye akoresheje ibikoresho byabugenewe. Ni ngombwa kuhira imyaka kugira ngo ikomeze imere neza cyane nk'igihe imvura yabuze cyangwa izuba ryavuye ari ryinshi.

Ibikorwa bitandukanye byo kuhira imyaka ni ingenzi cyane kuko usanga ari byiza, bituma imyaka ikura neza maze abayikoresha n'abayibona, bikabashimisha bityo bakagira ubuzima bwiza.

Umugore aruhira imyaka kuhira ni byiza kuko bituma imyaka ikura neza iyo wuhira kandi ugatera ifumbire imyaka yawe, ni byiza kuko bituma ubona umusaruro mwiza maze ukagira ubuzima bwiza.

Abantu batandukanye barakoresha ibikoresho byabugenewe buhira imyaka, ni byiza kuhira imyaka kuko bituma imyaka ikura neza, maze igatanga umusaruro wifuzwa ukoreshwa mu rugo ndetse no ku isoko.

Umugabo wambaye ingofero, wambaye n'umupira w'icyatsi, aruhira, ni ngombwa kuhira kuko hari igihe kigera imvura ikaba nkeya cyangwa izuba rikaba ryinshi, iyo wuhiye rero igihingwa kibona ibigitunga maze kigatanga umusaruro.

Ubutaka buriho ibihingwa bitandukanye. Ni ngombwa gutera ibihingwa mu butaka kugira ubashe kugira umusaruro. Iyo utera imyaka, ugira umusaruro maze bikagufasha kubaho neza, kubona indyo yuzuye no kubona amafaranga.

Ahantu hatandukanye hagaragara ibihingwa bitandukanye, ni ngombwa ko abantu bahinga imyaka itandukanye kugira ngo babashe kweza, bityo babone umusaruro mwiza, uzabafasha gutegura amafunguro yabo ndetse no gusagurira amasoko.

Ahantu ku musozi hari ibyatsi bitandukanye, ushobora kwifashishwa baharagira amatungo nk'inka, ihene n'ibindi ariko kandi banahakura ubwatsi bw'amatungo, bwifashishwa mu gutuma amatungo agira umusaruro.

Ahantu hatandukanye hagaragara imisozi iteyeho ibimera bitandukanye, byifashishwa mu buryo bugiye butandukanye, haba mu gutanga ibihingwa n'umusaruro mwiza ukoreshwa mu ngo, ndetse no gutanga ubwatsi bw'amatungo.

Ibyatsi bitandukanye bigaragara ku musozi aho ushobora kuharagira ndetse kandi ugashobora no kuhahira, ni ingenzi cyane kubera ko bituma amatungo abaho neza bityo tukabona ibiyakomokaho bitandukanye.

Ahantu hatandukanye hagaragara ibikorwa by'ubuhinzi butandukanye. Ni ingenzi cyane guhinga kuko bituma abantu babaho neza, babona umusaruro bakeneye, haba mu byo bakenera mu kurya cyangwa ibyo basagurira amasoko.

Ahantu ku umusozi hari ibyatsi bitandukanye, byifashishwa mu gutuma amatungo abona ibyatsi. Bashobora kuharagira cyangwa se ubwatsi bakabwahira, bakabushyira amatungo maze agatanga umusaruro wifuzwa.

Ahantu hatandukanye hari ibimera bitandukanye bifasha abantu kubaho neza. Ni ingenzi cyane guhinga kubera ko bituma abantu babona ibyo bakeneye biturutse mu musaruro, bityo bakabaho mu buzima bwiza.

Umurima w'umuceri ni ingenzi cyane kuko usanga akenshi umuceri ari ingirakamaro, wera cyane cyane mu gishanga kuko uba ukeneye amazi menshi, bityo abawubonye bakawukoresha mu bikorwa bitandukanye mu rugo, ndetse no ku isoko.

Inka ni amwe mu moko y'inyamaswa, amatungo yorohererwa mu rugo. Ni ingenzi cyane korora inka kuko itanga amata, igatanga ndetse n'ifumbire, iyo woroye inka ni byiza biguha umusaruro mwiza.

Ingurube hamwe n'ibyana byazo, ni ngombwa ko ingurube zibyara kandi zikororoka vuba kubera ko ziba zahawe ibikenewe, harimo ibiribwa n'ibindi, iyo wita ku itungo ry'ingurube riguha umusaruro.

Inka ni itungo rirerire, rigaragara mu ngo zitandukanye. Inka itanga amata, igatanga kandi n'ifumbire. Kugira ngo itange umusaruro mwiza, bisaba ko iba yariye ubwatsi bwiza.

Inkoko ni itungo rigufiya ryororerwa mu rugo, abantu barikundira ko ridahenda kandi ritanga umusaruro mu gihe gitoya, ritera amagi ashobora kwifashishwa mu gutegura amafunguro atandukanye, bityo abantu bakabaho neza, bakagira ubuzima bwiza.

Ahantu hatandukanye hororerwa inkoko, ni ngombwa ko inkoko zigira ahantu heza bazororera bityo ukabasha kugira umusaruro waba uw'amagi cyangwa uw'inyama, ukiteza imbere ndetse ukabona n'amafaranga.

Inyana iri mu kiraro. Ni ngombwa ko inka zororerwa mu kiraro kugira ngo zitange umusaruro mwiza, uziha ubwatsi kugira ngo zikure vuba, bityo zizaguhe umusaruro wifuzwa, urimo ifumbire, amata n'ibindi.

Inka ni itungo ryiza, rigaragara mu ngo zitandukanye. Rifasha mu gutanga ifumbire kandi ritanga umusaruro w'amata. Ni ngombwa korora inka kuko bituma abantu bagira imbaraga n'ubuzima bwiza.

Inka ni itungo ryiza ryororerwa mu rugo usanga ritanga ifumbire ndetse n'amata ku kigero gishimishije, ni ngombwa cyane kugiha ubuzima bwiza ukagishakira ubwatsi ukakiragira bikazatuma ritanga umusaruro wifuzwa.

Inka ni itungo ryiza ribarirwa mu matungo maremare, aho usanga rikunzwe kubera gutanga umusaruro mwiza, urimo ifumbire, amata n'ibindi, bityo ni byiza korora inka kugira ngo tugire ubuzima bwiza.

Ingurube ni ubwoko bwiza bw'inyamaswa ibarirwa mu matungo magufiya yororerwa mu rugo, agatanga umusaruro mu gihe gitoya. Atanga ifumbire, agatanga ndetse n'inyama. Korora ingurube ni byiza.

Ingurube ni itungo rigufi, ryororerwa mu rugo. Ritanga ifumbire, rikororoka vuba. Ni ingenzi cyane ku bahinzi ndetse n'abandi bantu batandukanye kubera ko ribaha umusaruro mu gihe gitoya.

Inka ni itungo ryiza ritanga amata, rigatanga ifumbire, rigatanga n'inyama. Ni ingenzi cyane kuryorora kuko rituma abantu babaho neza. Amata atuma abana bakura neza ndetse kandi ifumbire ikifashishwa mu bikorwa by'ubuhinzi.

Ingurube ni itungo ryiza, ryifashishwa mu gutuma habaho ifumbire kandi ingurube itanga inyama, bityo abarikoresha bashobora kubona amafaranga menshi, bityo ni ngombwa korora ingurube.

Ingurube ni ngombwa ko zororerwa mu rugo. Zigomba gukorerwa ibiraro ndetse zikitabwaho, zikagirirwa isuku kugira ngo zitange umusaruro. Zikura vuba, zikororoka vuba ndetse zikanatanga umusaruro abantu bifuza.

Ubworozi bw'inkoko ni bwiza cyane butuma abantu babona amagi inyama ibintuintu bitandukanye bikomoka ku matungo, ni ingenzi korora inkoko kuko bituma abantu bagira ubuzima bwiza haba gutegura amafunguro ndetse no kubona amafaranga.

Ahantu hororerwa inkoko. Ni ingenzi cyane korora inkoko kubera ko zitanga umusaruro, zigatanga amagi, zigatanga ndetse n'inyama. Iyo woroye inkoko ushobora kuzikoresha utunganya umusaruro wawe cyangwa se ukanazijyana ku isoko.

Umudamu afite ihene ebyiri mu ntoki. Ihene ni nziza, ni itungo rigufiya ritanga umusaruro unyuranye, harimo ibijyanye n'ifumbire, hakabamo inyama n'ibindi bitandukanye bishobora kuva ku ihene.

Umugezi, aho abantu bashobora kuvoma amazi atandukanye yifashishwa mu kuhira imyaka. Ni byiza kuhira imyaka kubera ko bituma igira imi umusaruro myiza, bigatuma imyaka yera neza maze ukabaho neza.

Umugabo arakusanya umusaruro we, ni ngombwa ko iyo myaka yeze bayisarura kugira ngo idapfira ubusa mu murima maze bakayikoresha bashaka ibyo kurya mu rugo ndetse banasagurira amasoko.

Umurima urimo imbuto zitandukanye. Ni ngombwa ko iyo ugiye gutera imbuto ubanza ugahinga ingemwe maze ukazazihumbika bityo ukabona umusaruro mwinshi. Ni ngombwa guhinga kuko bituma abantu babona ubuzima.

Abantu batandukanye, barakora imirimo yo kwita ku karima k'igikoni, akarima k'igikoni ni ingenzi cyane kuko usanga hateyemo imboga zitandukanye zirimo dodo ndetse n'ibindi bifasha mu gutegura indyo yuzuye.

Ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi bw'imboga n'imbuto, hari intoryi, karoti, ibitunguru n'ibindi, ni ngombwa ko abantu iyo bamaze kwihaza mu biribwa, basagurira n'amasoko.

Ibikorwa bitandukanye by'ubuhinzi bw'imboga za dodo, ni ingenzi cyane kubera ko zifasha abantu kwirinda imirire mibi kandi zikanafasha mu gutunganya indyo yuzuye bityo abantu bakagira ubuzima bwiza.

Ibitunguru ni bumwe mu bwoko bw'imboga nziza, ziboneka ahantu hatandukanye. Ni ingenzi cyane kubera ko zifasha mu kubona amafunguro atandukanye, yifashishwa mu ngo kandi binashobora gutuma ubona amafaranga.

Imbuto zitandukanye zera ku biti bitandukanye, ni ngombwa guhinga imbuto kuko bituma abantu babaho mu buzima bwiza, bakabaho mu buzima buzira umuze. Bityo guhinga imbuto ni ingirakamaro kugira ngo dutere imbere.

Ihene ni itungo rigufiya, riboneka mu rugo. Ritanga ifumbire, rigatanga inyama kandi abaryorora rikabaha umusaruro mu gihe gitoya. Ni byiza korora ihene kugira ngo zibashe gutanga umusaruro wifuzwa.

Ahantu hatandukanye hacururizwa imiti itandukanye. Ni ingenzi ko abantu bajya kuhagurira imiti, bityo bakongera umusaruro wabo cyane cyane nko mu bworozi ndetse no mu buhinzi, kuko usanga hahurwa n'ibizazane byinshi.

Umugabo arazirika inka kugira ngo ayiteho, ni ngombwa ko itungo ry'inka ryitabwaho, kugira ngo ritange umusaruro wifuzwa, haba amata, haba ifumbire, haba n'ibindi bikorwa bitandukanye bityo abantu biteze imbere ndetse bagire ubuzima bwiza.

Umugabo arita ku nka ye, ni ngombwa kwita ku nka kuko inka ni ingirakamaro zitanga amata, zigatanga ifumbire, ni ngombwa kandi kuziha ubwatsi no kuzitera imiti ikenewe kugira ngo zitange umusaruro mwiza abantu bifuza.

Umugabo arita ku nka ye, ni ngombwa kwita ku nka kubera ko igira umusaruro mwiza harimo gutanga ifumbire, amata ndetse n'ibindi, inka ni ingirakamaro kuko iyo itanze amata bayifashisha mu gutegura amafunguro bityo abantu bakabaho neza.

Abagabo batandukanye, barakora ibikorwa byo gutera urushinge inka, ni ngombwa ko ihene iyo igize ikibazo, uyitera urushinge cyangwa ukayiha umuti wabugenewe kugira ngo ibashe kumererwa neza.

Inkoko ni amwe mu matungo magufiya aboneka mu rugo, bityo atanga amagi, agatanga ifumbire, agatanga kandi n'inyama. Ni ingenzi cyane kwita ku bworozi bw'inkoko kugira ngo tubone umusaruro mwiza ukomoka ku nkoko.

Inyoni ni ubwoko bwiza bw'inyamaswa, bugaragara cyane cyane mu mashyamba n'ahandi hantu hari ibimera bitandukanye. Ni ngombwa cyane kwita ku bimera ndetse n'amashyamba kugirabngo dusigasire ubuzima bw'inyoni n'izindi nyamaswa.

Inyamaswa zitandukanye zigaragara mu mirima ndetse no mu biti no mu bindi bimera bitandukanye, ni ngombwa kwita ku bidukikije, kuko bituma tugira ibyiza bitandukanye, birimo no korora inyamaswa zitandukanye.

Ibikona bibiri biri hamwe, bigaragara cyane mu mashyamba ndetse n'ibindi bimera bitandukanye. Ni ingenzi cyane kwita ku bimera kugira ngo twite ku nyamaswa zitandukanye harimo inyoni ndetse n'izindi, bityo zibeho neza.

Ahantu abantu bahurira bagiye kwiga, usanga haba hari n'ibiti bitandukanye ndetse n'ubusitani burimo indabyo n'ibyatsi n'ibimera bitandukanye. Ni ngombwa kuko bikurura umwuka mwiza abantu bahumeka, bityo bakabaho neza.

Inyamaswa zitandukanye, ziba mu bimera bitandukanye. Ni ingenzi kubera ko iyo wita neza ku bimera, bituma inyamaswa zibona aho ziba. Bityo natwe tukabona umwuka duhumeka, bigafasha ndetse no mu bijyanye no guteza imbere ubukerarugendo.

Inyamaswa zikunze kugaragara mu mashyamba ndetse no mu biti, ni inyamaswa usanga akenshi zibeshwaho no kuba ahantu hari ibyatsi ndetse n'ibimera bimeze neza. Nigenzi cyane kwita ku bimera kugira ngo tubungabunge izo nyamaswa.

Inyoni zitandukanye zigaragara mu biti ndetse no mu byatsi. Ni ingenzi cyane kubungabunga ibiti n'ibyatsi n'ibindi bimera bitandukanye kuko bituma inyamaswa zitandukanye zibona aho kuba, abakerarugendo n'abandi bahasura bakishima.

Inyamaswa zitandukanye, usanga ziba mu mashyamba, harimo: inkende, ibitera, ingagi n'izindi, ni ngombwa ko twita ku nyamaswa zo mu ishyamba kuko ni ingirakamaro, tukita kandi no ku bidukikije harimo, ibimera n'ibiti kugira ngo zibashe kubona aho ziba.

Inyamaswa z'inyoni zigaragara cyane cyane mu mashyamba ndetse n'ahandi hari ibimera. Ni ingenzi cyane ko twita ku bimera ndetse tugatera n'ibiti kugira ngo inyoni zibone aho ziba. Ni ingenzi kuko bifasha mu gukurura ba mukerarugendo.

Inyoni ni bumwe mu bwoko bw'inyamaswa bugaragara cyane cyane mu mashyamba. Kwita ku mashyamba ni byiza kuko bifasha izo nyoni kubona ubuzima, bityo ibinyabuzima bikabaho neza natwe bikatugiraho ingaruka nziza.

Inyamaswa harimo inyoni, ni zimwe mu bigaragara mu mashyamba ndetse n'ibyatsi bitandukanye. Ni ngombwa cyane kwita ku byatsi ndetse n'ibimera kugira ngo inyamaswa zibone aho ziba, bityo natwe tugire ubuzima bwiza.

Inyoni ni zimwe mu nyamaswa ziboneka cyane cyane mu mashyamba. Ni ngombwa kwita ku bimera n'ibihingwa bitandukanye kugira ngo inyoni zigire ubuzima. Iyo uhinga neza ukeza, bituma inyoni nazo zibona ibyo kurya maze zikabaho neza.

Ibimera bitandukanye bigaragara mu mashyamba bicumbikira inyamaswa nyinshi. Ni yo mpamvu kubibungabunga ari ingenzi, kuko bifasha izo nyamaswa kubaho. Zikurura ba mukerarugendo bityo Igihugu na cyo kikabyungukiramo kibona amafaranga.

Inyamaswa zo mu gasozi zigaragara cyane cyane muri pariki, ni ingenzi cyane kubera ko zikurura ba mukerarugendo maze bagatanga amafaranga. Inyamaswa zo muri pariki ni nziza ariko nanone ni ngombwa kubungabunga ibidukikije.

Inyoni ni amwe mu moko y'inyamaswa ziboneka cyane cyane mu mashyamba, ni ingenzi cyane kubera ko iyo wita ku bimera no ku mashyamba bituma izo inyoni zimererwa neza kandi na zo zigafasha mu kubaho kw'ibimera.

Inyamaswa zitandukanye zigaragara mu mashyamba ni byiza kwita ku nyamaswa kuko zikurura ba mukerarugendo bityo zigasigira amafaranga igihugu, tugomba kwita kandi ku binyabuzima bitandukanye harimo n'ibimera kugira ngo izo nyamaswa zibone aho ziba.